Ubukangurambaga bujyanye no gufata neza ubuzima bw'abaturage no kubitaho, hagamijwe kugira abaturage bazima ndetse bafite ubuzima bwiza.

Serivisi zo kwegereza amazi abaturage ndetse afite isuku aho bavomera amazi abegereye mu ngo zabo bityo bikaborohereza kubaho.

Gahunda ya yo kugira ubuzima buzira umuze, kwirinda indwara zandurira mu mwanda aho hashyirirwaho kandagira ukarabe ndetse n'uburyo bwo kwirinda inda ndetse no gukaraba amazi meza ndetse n'isabune kugira ngo indwara zitandurwa.

Gahunda yo kwegereza abaturage amazi meza asukuye, aho buri wese agana ivomero nta kiguzi akavoma amazi meza ndetse agashira inyota, bityo bigatuma hirinda indwara zitandukanye zaterwa no gufata amazi atari meza.

Amavomero rusange ndetse kwegerezwa amazi meza ku baturage bityo bikabarinda indwara z'umwanda ndetse n'ibindi byose birushaho kwandura, bigatuma abantu batagira ubuzima bwiza.

Serivisi z'ubuzima ndetse n'ubukangurambaga aho bashikariza abaturage kubaka utuntu tw'amasahani akajya yozwa mbere y'uko amafunguro afatwa kugira ngo hirindwe mikorombe zitera umwanda.

Amazi meza ndetse asukuye, aho buri muntu aba agomba gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ngo yirinde indwara zitandukanye zandurira mu mwanda, bityo umuntu akagira ubuzima bwiza buzira umuze.

Serivisi z'ubuzima no kwita ku baturage, aho hari imbagukiragutabara ishinzwe gutabarira mu maguru mashya ubuzima bw'abaturage, ahagaragara ko habaye ikibazo.

Serivisi z'ubuzima ahobita ku mibereho y'abaturage binyuze mu gukaraba amazi meza ndetse no kwegerezwa amazi asukuye kandi bikarinda indwara zigiye zitandukanye zandurira mu mwanda.

Serivisi zo kwita ku buzima bwiza ndetse no gukangurira abaturage kwiyitaho, bo bahabwa amazi meza asukuye abafasha kugera kwita ku bikorwa byo mu rugo bityo bikabarinda indwara ziterwa n'umwanda.

Serivise z'ubuzima ndetse n'ubukangurambaga. Aho abaganga baganira ku buryo bwo kwita ku buzima ndetse no kubungabunga bita ku baturage.

Inama mpuzamahanga igamije kubungabunga ubuzima ndetse no kwita ku bantu, hagamijwe imibereho myiza ndetse n'umubiri mwiza muri rusange.

Service z'ubuzima ndetse n'ubukangurambaga bwazo, aho hatangwa raporo y'uko kanseri y'umura mu Rwanda ihagaze ndetse igatangwa na minisiteri w'ubuzima Dr. Sabin Nsenzimana.

Serivisi z'ubu ubuzima zigamije kurwanya indwara zandura harimo nka ebola, hagakorwa ubukangurambaga ku baturage ndetse no kwerekana uburyo gihe cyi indwara zigenda zikwirakwizwa mu baturage.

Inama y'igihugu yita ku buzima ndetse no gushishikariza abaturarwanda ndetse n'abayobozi, kwita ku buzima ndetse bahabwa amahugurwa atandukanye ndetse n'ubukangurambaga muri rusange.

Serivise zo kwita ku buzima bwiza ndetse n'ubukangurambaga bwihariye mu gukora isuku. Aho abaturage cyane cyane icyiciro cy'abana kigirwa inama yo gukorana intoki igihe cyose wavuye ahantu hatari heza.

Serivisi z'ubuzima hakorwa ubukangurambaga ndetse n'isuzuma ry'indwara zitandukanye ahatwegereye mu uburyo bwo kubungabunga amagara y'abaturage.

Inzu z'ubuvuzi aho batangira serivisi z'ubuzima ndetse bakita ku babyeyi ndetse n'abana, aho batanga amabwiriza yo kwisuzumisha ndetse n'ibindi bitandukanye.

Serivisi z'ubuzima zijyanye no gusuzuma, kwita ku bantu, ndetse no kubagira inama ku buzima, ndetse no kwiyitaho, bityo bakabaho neza kandi bafite amagara mazima.

Serivisi zo kwita ku buzima, binyuze mu kigo gishinzwe ubuzima ku isi, aho begereza amazi abaturage, kandi asukuye, birinda indwara zandurira mu mwanda.

Serivisi z'ubuzima ziterwa inkunga n' ikigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima aha abaturage baza kwitabira ubukangurambaga yatanzwe bijyanye n'ubuzima no kwipimisha indwara zitandura ndetse no kumenya uko umuntu ahagaze muri rusange.

Serivisi zo kwita ku buzima, aho abaturage bahabwa amazi meza, asukuye, kugira ngo barindwe indwara zandurira mu mwanda, ziterwa n'amazi adasa neza.

Serivisi zo kwegereza amazi meza mu baturage ndetse bakagira ivomero rusange aho uwo ariwe wese agenda akavoma nta kiguzi ndetse maze akagera ku baturage neza birinda indwara zitandukanye kuko ayo mazi aba asukuye neza, bituma abaturage bagubwa neza.

Serivisi z'ubuzima bwiza no kwita ku baturage hakorwa ubukangurambaga ndetse n'ubuvuzi bwo gusuzuma indwara ku baturage harimo izo mu kanwa ndetse n'iz'amenyo mu kumenya neza uko bahagaze.

Serivisi z'ubuzima no kubyitaho ugeze mu kigo mpuzamahanga gishinzwe kwita ku buzima, hari umuganga ubishinzwe mu kureba uko ibizamini by'umuntu bihagaze ku mashini yabugenewe.

Inama ziga ku mibereho y'abaturage, ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo himakazwe politike nziza z'ubuzima, maze abaturage babeho neza, bityo bikabafasha mu kuba, bafite abaturage bazima.

Serivisi zo kwita ku buzima, ku bufatanye n'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi, ahatangwa amahugurwa ndetse n'ubukangurambaga, kuri serivisi z'ubuzima.

Ingamba z'ubuzima ndetse na service, bigamije ku kwita ku isuku ndetse no kubungabunga ubuzima bwiza, iriharinda umwanda ndetse hakorwa ibikorwa bitandukanye byo gusukura n'isuku.

Gahunda z'ubuzima bwiza, binyuze mu kigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima bwo guteza imbere, aho abaturage bahabwa amazi meza n'isabune, mu gusukura intoki ndetse no gukaraba, babarinda indwara zigiye zitandukanye zandurira mu mwanda.

Serivisi z'ubuzima aho amazi meza asukuye agezwa ku baturage kugira ngo birinde indwara zandurira ku mwanda, ndetse kubufatanye n'umuryango ushinzwe ubuzima kw’isi.

Serivisi z'ubuvuzi aho hari inyubako igaragaza aho abarwayi bivuriza ndetse bakitabwaho, kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo.

Serivise z'ubuzima ndetse no kwita ku baturage hari ugutanga ubukangurambaga ndetse n'amahugurwa ku baturage ndetse n'abajyanama b'ubuzima mu buryo bwo guhugura abaturage.

Ikigo cya gira ubuzima, gishinzwe gutanga amahugurwa ndetse n'ubukangurambaga, ku buryo bwo kubungabunga ubuzima ku baturage, ndetse na sosiyete muri rusange, bityo bakabaho neza bazira umuze.

Serivisi zo kwegereza abaturage amazi meza asukuye, aho amavomero rusange agaragara ndetse abaturage bakabona amazi batavunitse kandi afite isuku.

Serivisi zo kwegereza abaturage amazi meza ndetse asukuye, bityo bikabarinda kugira umwanda ndetse bagafata neza ubuzima bwabo, mu buryo bwose, bigatuma babaho neza kandi nta kibazo bafite.

Serivisi z'ubuzima ndetse n'ubukangurambaga, aho binyuze mu kigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima, inama y'igihugu ishinzwe gutera inkunga ubuzima ndetse no kongera ibikomoka mu rugo, kugira himakazwa ireme ry'ubuzima.

Ubukangurambaga bujyanye n'ubuzima bw'abantu ndetse no kubitaho, kubashishikariza uburyo bakita ku mibiri yabo ndetse n'ubuzima bwabo muri rusange.

Serivisi n'ubuvuzi bwo kwita ku baturage cyane cyane abagore batwite, mu buryo bwo kugenzura imibereho yabo ndetse bakagira n'ubuzima bwiza, hakorwa isuzuma.

Serivisi zo kwita ku buzima ndetse no kubungabunga, aho amazi meza agezwa ku baturage kugira ngo hirindwe indwara z'umwanda.

Serivisi z'ubuzima zigamije kwita ku baturage no kubegereza amazi meza, asukuye, aho umwana ari kunywa amazi ndetse afite isuku, bityo bikamurinda indwara zandurira mu mwanda.

Serivisi z'ubuzima ndetse n'ubukangurambaga, aho umuryango mpuzamahanga wa roni, ishami rishinzwe kwita ku bana, batanga ubukangurambaga ku nama zo kwita ku bana ndetse no kubaha ibyo bakeneye nk'umuryango.

Ubuzima bwiza ndetse na serivisi zo kwita ku buzima, harimo kwegereza abaturage amazi meza asukuye, hakirindwa indwara zitandukanye zandurira mu mwanda zitewe n'amazi adasa neza.

Serivisi z' ubuzima ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima, aho abaturage bafata imfashanyo y'ibyo kurya muburyo bwo kurwanya inzara.

Serivisi z'ubuzima, aho abaganga barenze imwe ndetse n'umubyeyi w'umwana bari kwita ku buzima bwe kugira ngo barebe ko baburokora.

Serivise zo kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse n'ubuvuzi bwihariye bwawo cyangwa se ubwonko, aho iyo bitagenze neza cyangwa se umuntu atameze neza agira guhangayika akitwara bitandukanye, bityo bikaba byamutera indwara zigiye zitandukanye.

Gahunda yo kurwanya ihungabana ryo mu mutwe, ndetse n'ubuzima ku bwonko, aho hari gahunda yo kwibuka kandi twiyubaka, mu buryo tudasigaranwa n'amateka ngo habeho ihungabana, ahubwo abantu babe umwe, ndetse bumve basubijwe mu buzima busanzwe.

Ubuvuzi bwihariye bw'ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'ubwonko muri rusange aho ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima arabisi gitanga ubukangurambaga ndetse n'inama ku kwita kuri ubwo buzima.

Ubukangurambaga ku bantu benshi, aho bateraniye hamwe biga ku kubungabunga ubuzima bwa muntu, ndetse bushingiye ku buzima bwo mu mutwe. Aha ho byari ku itariki makumyabiri n'imwe z'ukwacumu na kumwe, bibiri na makumyabiri.

Serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe, aho icyigo gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe mu kubushyira mu bikorwa, gishishikariza abaturage mu kwiyitaho, ndetse batanga inama zitandukanye.

Serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe no kubungabunga aho batanga amahugurwa n'ubukangurambaga ku baturage ndetse n'abavuzi bagiye batandukanye.

Serivisi zo gutanga amahugurwa n’ubukangurambaga ku buzima bwo mu mutwe aho zihabwa abajyanama b'ubuzima bahagarariye abaturage.

Serivisi zo kurwanya uburwayi bwo mu mutwe, hakorwa umujyanama, kuganirizwa ndetse n'izindi ngamba zose kugira ngo umuntu abeho neza atigunze kandi afite ubuzima bwiza.

Umunsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe ku Isi yose, uba ndetse ugafata igihe mu kwa cumi ku itariki ya cumi buri mwaka, mu buryo bwo kwizihiza ubuzima bwo mu mutwe.

Ubukangurambaga ndetse n'inama zihabwa abantu mu kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kubungabunga, ku bufatanye n'umuryango ushinzwe uburenganzira bw'umwana ku isi.

Ubuvuzi bwo mu mutwe ndetse no kurinda indwara zandura zanduza ubwonko zikabwangiza aho hakorwa ubukangurambaga ndetse n'ubujyanama ku bayobozi bagiye batandukanye mu guhugura abaturage uko bakwifata bitwara neza bakagira ubuzima buhoraho.

Serivisi zo kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse no kububungabunga, aho umuntu iyo ataganirijwe cyangwa se ngo yitabweho afite ikibazo cyihariye, ashobora kubura ubuzima ndetse akanahangayika cyane.

Serivisi zo kwita ku buzima bwo mu mutwe hari agaragaza raporo yatanzwe ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku buzima bwo mu mutwe igaragaza uburyo yahagaze ku rwego rw'isi.

Serivisi z'ubuvuzi bwo mu mutwe ndetse no kurinda indwara zishobora kwataka ubwonko, hagamijwe kwita ku bana ndetse no kubaganiriza ndetse no kubaha ibyo bakeneye.

Ubuvuzi bwita ku buzima bwo mu mutwe aho hari ubukangurambaga cyangwa se campain yitwa sana mu buryo bwo kubungabunga ubuzima ndetse n'indwara zandura zitandukanye.

Ubuvuzi bwo mu mutwe, ndetse bagamije kwirinda indwara zandura muri ubwo buryo, haterwa ibiti, aho bakora ubukangurambaga butandukanye. Kugira ngo abantu babeho neza.

Serivisi z'ubuzima bwo mu mutwe ndetse no gukora ubukangurambaga mu kwirinda indwara z'ubwonko, naho hari ikigo mu Rwanda gishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe ndetse rikaba ari ihuriro ry'abanyeshuri biga ibyo bintu.

Kurinda amenyo ndetse no kuyakomeza, hifashishijwe ibikoresho byabugenewe byambika amenyo bityo ntakomereka cyangwa se nkagira ikibazo, kandi agakorerwa isuku neza mu buryo bwo kwirinda umwuka mubi ndetse n'indwara zandurira mu kanwa.

Serivisi z'ubuvuzi, hitawe ku ngamba zo gufata neza amenyo ndetse no kwirinda indwara zandurira mu kanwa kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bujyanye n'amenyo ndetse n'indwara zo mu kanwa, aho hifashishwa ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo basuzume neza ikibazo waba wa ufite cyangwa bagenzure ubuzima bwo mu kanwa niba nta kibazo bufite.

Serivisi z'ubuzima aho utanga inama zitandukanye zo kurinda ubuzima bw'amenyo ndetse no mu kanwa, mu buryo bwo kwirinda indwara zitandukanye zandurira mu kanwa.

Serivise z'ubuzima bwita ku menyo ndetse no mu kanwa muri rusange, aho hakorwa ubukangurambaga mu kwirinda indwara zandurira mu kanwa ndetse no gufata neza ingingo zacu.

Kwita ku menyo ndetse no mu kanwa muri rusange, mu buryo bwo kwirinda indwara zandurira mu menyo ndetse no kuyabungabunga, kugira ngo hatabaho impumuro mbi cyangwa se ukabangamira bagenzi bawe.

Haba ubuvuzi bujyanye n'indwara zo mu kanwa ndetse n'amenyo aho umuganga ari kwita ku murwayi ngo abugabunge ubuzima bwe.

Ubuzima bwo kwita ku menyo ndetse n'indwara zo mu kanwa, aho bukorwa ubukangurambaga mu kwita ku menyo, aho ugomba koza amenyo byibura gatatu ku munsi, bityo bikagufasha kugira ubuzima bwiza.

Kwita ku buzima bwo mu kanwa ndetse n'amenyo no kuyagirira isuku muri rusange, bityo bigatuma birinda indwara zo mu menyo ndetse bigatuma umuntu agira impumuro nziza, akabaho neza mu bandi.

Serivisi z'ubuzima zerekeye ubuzima bwo mu kanwa ndetse n'amenyo, aho basuzuba ndetse bakareba icyo umurwayi arwaye indwara zo mu kanwa.

Ubuvuzi bwita ku buzima bw'amenyo ndetse no kumenya uko ubuzima buhagaze, birinda indwara zandurira mu menyo ndetse no mu kanwa, bityo bigatuma abantu babaho neza ndetse babifashijwemo n'abaganga b'inzobere.

Ubuvuzi bwita ku ndwara zo mu kanwa ndetse n'ubuzima bwabo mu kubungabunga imibereho binyuze mu guhabwa inama ndetse n'ubukangurambaga bubishinzwe, aho bitaro bya Ruhengeri bifite umukangurambaga wabyo ndetse wita ku baturage mu buryo bwose.

Gahunda yo kwita ku buzima bw'abari mu zabukuru, aho ikangurira abantu gukora siporo, imyitozo ngororamubiri ndetse n'ubundi buryo bwatuma babaho neza.

Aho hari ubukangurambaga bwo kwita ku buzima bw'abakuze ndetse no kubahumuriza babaganiriza kugira barwanye ihungabana ndetse no kumva bigunze.

Serivisi zihabwa abakozi bari mu zabukuru z'ubuzima zijyanye no kwita ku buzima bwabo gukora siporo ndetse no kuganirizwa kugira ngo bumve ko batari bonyine.

Ubuvuzi bwita ku buzima bw'abakuze, aho bagirwa inama zigiye zitandukanye z'ubuzima kandi bakitabwaho, bakaba bakora imirimo y'amaboko ibazanira amafaranga ndetse bakajyana n'ubuzima bwiza.

Ubuzima ndetse na serivisi zo kwita ku bantu bakuze, bagirwa inama z'uko babatwara imibiri yabo ndetse bakabaho neza, ndetse bafite n'ubuzima buzira umuze, bityo bigatuma baramba ndetse bakabaho neza.

Uburyo bwo kwita ku bantu bakuze mu kubungabunga ubuzima bwabo, ni ukubakoresha imyitozo ngororamubiri, kubagira inama no kubaganiriza kugira ngo babeho neza batari mu bwigunge.

Ubuzima bwo kwita ku bakuze ndetse bari mu myaka mikuru, mu kubabarinda ihungabana no kwigunga, aho bagirwa inama ndetse bagakina n'imiryango.

Kwita ku buzima bw'abakuze ndetse bari mu zabukuru, aho umuryango utanga ibyishimo ndetse ukaganiriza abakuze kugira ngo babone ko batigunze kandi babone ko bari kumwe n'abandi batandukanye.

Uburyo bwo kwita ku bakuze, bari mu myaka mikuru ndetse n'uburyo buhamye bwo kurwanya indwara zandura ndetse n'izitandura bakora siporo ndetse bita no ku mibiri yabo.

Serivisi zo kwita ku buzima bwabari mu zabukuru, ndetse no kubaganiriza kubaha ibyo bakeneye ndetse no kubahumuriza bakamenya ko atariri bonyine.

Gahunda yo kwita ku buzima bw'abakuze ndetse no kubaba hafi ,babagira inama z'ubuzima babaha ibyokurya bikwiriye ndetse banakorana n'imyitozo ngororamubiri kugira ngo babungabunge ubuzima bwabo.

Ubuvuzi bwita ku kwita ku buzima bw'abakuze, ndetse bari mu za bukuru, mu kubaha inama, kubaha imiti, ndetse no kuba ibyo kurya bikwiranye n'imyaka bagezemo, ndetse bigatuma baramba, bakagira ubuzima bwiza.

Serivisi zo kwita ku buzima bw'abakuze ndetse bari mu zabukuru, bifata neza, barya indyo yuzuye, banywa amazi meza ndetse bahabwa inama zigiye zitandukanye ku buzima, bityo bakabaho neza kandi bakagira ubuzima bwiza.

Serivisi zo kwita ku baturage ndetse n'abantu bakuru bari mu zabukuru, no kubagira inama z'ubuzima, kwita ku buzima bwabo ndetse no kubafasha ngo babeho neza muri sosiyete nziza nta kibazo bafite.

Kwita ku buzima bw'abari mu za bukuru ndetse bakora imirimo itandukanye kugira ngo bigire ndetse bagire ubuzima bwabo, babone amafaranga aho basoroma icyayi, mu gice cy'imisozi miremire bityo bigatuma babona amafaranga ndetse bakabaho neza.

Gahunda yo kwita ku bakuze, bari mu myaka y'ubukure ndetse no kubaganiriza, kubereka urukundo kugira ngo batiheba cyangwa se barware ihungabana.

Serivisi z'ubuzima zo kwita ku bakuze, ndetse bagirwa inama bitabwaho, kugira ngo badahura n'ihungabana cyangwa se bumve bari bonyine, bityo bigafasha mu gutuma sosiyete nziza, ifite ingeri zose.

Ubuzima bwo kwita ku bakuze kandi bari mu zabukuru no kubasusurutsa hakorwa imirimo itandukanye y'amaboko, kuboha ndetse no kubaganiriza ngo bareke kwigunga.

Serivisi zo kwita ku buzima bw'abakuze, kubaha inama zigiye zitandukanye, gukora siporo ndetse no kugorora ingingo zabo, bakarya neza ndetse bagahabwa n'inama z'ubuzima mu kubafata neza, bityo bakabaho bameze neza kandi bagasazira ku gihe.

Ubukangurambaga ku buzima ndetse hagamijwe mu gutanga amahugurwa, bikozwe na minisiteri y'ubuzima mu Rwanda kugirango ubuzima bubungabungwe.

Ingamba z'ubuzima zo kurwanya indwara zitandukanye, harimo kanseri, kanseri y'amabere, kanseri y'abana, kanseri y'ubwonko, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye, ariko hagamijwe gushishikariza abaturage kwirinda, ndetse n'ubukangurambaga buhamye.

Ubukangurambaga ku buzima ndetse n'imibereho muri rusange aho berekana gahunda yo gufata neza ndetse no kwita ku bihe byo kwisuzumisha ndetse no kwikingiza bagendeye kuri gahunda ya leta.

Raporo yerekana ibisubizo bya kovide cumi n'icyenda, yatanzwe n'umuryango wunze ubumwe ku isi ushinzwe ubuzima, muri Afurika, mu gace ko muri Afurika, yerekana uburyo kovide n'ibisubizo byayo bigenda bigaragara.

Serivise z'ubuzima ndetse n'ubukangurambaga ndetse n'ingamba zihamye, mu kurwanya inda zitateganyijwe ku bana b'abangavu bari munsi y'imyaka cumi n'umunani, bityo bigatuma igihugu kigira ubuzima bwiza mu gihe bumvise izi nama zose.

Ingamba z'ubuvuzi n'ubukangurambaga ku buzima bw'ababyeyi batwite ndetse n'abana babo kugira ngo bagire amagara mazima.

Serivisi z'ubuzima ndetse n'ingamba mu bukangurambaga aho bagaragaza ko imiti ari ingenzi mu kurinda ubuzima bw'umuntu ndetse na sosiyete muri rusange.

Ingamba z'ubuzima n'ubukangurambaga kuburyo bwo kwirinda kanseri aho biterwa no kudakoresha umubiri muburyo bwa siporo, kutarya neza, umubyibuho ukabije, no kuba ubufite ibiro bikabije bityo iyi indwara ikaba iterwa n'ibyo byose.

Ingamba z'ubuzima n'ubukangurambaga mu kwita ku buzima bw'abaturage, aho abantu bahabwa amahugurwa atandukanye, ndetse n'ingamba zo kwita ku buzima.

Ingamba z'ubuzima ndetse no kubwitaho, hagamijwe kugira ubuzima bwiza ndetse no kubaho neza kuri buri muturage, bityo bigasigasira ubuzima bw'abantu.

Ingamba z'ubuzima zerekeranye n'ubukangurambaga mu kurwanya Korona virusi, hifashishwa ingamba zabugenewe harimo gukaraba amazi meza, kwambara agapfukamunwa, kwirinda gukoranaho ndetse n'ibindi.

Serivisi z'ubuzima, aho umuryango wunze ubumwe ushinzwe ubuzima utwereka ibimenyetso bya diyabete harimo kumva ufite inyota, kumva ushaka kunyara kenshi kurusha uko byari bisanzwe, kutareba neza, kumva unaniwe ndetse no gutakaza ibiro mu buryo butunguranye.

Gahunda z'ubukangurambaga ku buzima, aho hatangwa inama mu gufata neza abana no gufata neza imibiri yabo, barwanya igwingiro.

Ubukangurambaga bushingiye ku ngamba z'ubuzima, aho bashishikariza abantu gutunga amagara mazima bipinisha ndetse banisuzumisha, kandi bakikingiza indwara zigiye zitandukanye ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga ishami rya L'ONU rishinzwe kwita ku bana no kwita ku buzima.

Serivisi z'ubuzima n'ingamba zihamye kugira ngo bubungabungwe ahakorwa ubukangurambaga ndetse n'amahugurwa, ku bashinzwe ubuzima kugira ngo bahugure abaturage kwiyitaho neza.

Serivise ndetse n'ingamba z'ubuzima, hari ubukangurambaga kubijyanye n'ubuzima ho n'umuhango wo kwishimira ku rwego rwa Afurika uko imiti ihagaze ndetse n'ubuvuzi mu nama ya Afurika yunze ubumwe.

Serivisi z'ubuzima n'ubukangurambaga, aho ari icyumweru cyo kwirinda diyabete no gukangurira abaturage, kugira ngo bayirinde, kandi babeho ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga ku buzima ndetse n'ingamba zabwo hari ahakorerwa amahugurwa Imicungire y'ubuzima ndetse hari n'abaganga barindwi bahawe ingamba zo kurinda ndetse n'ubuvuzi butemewe.

Inzu z'ubuvuzi, aho bagaragaza ibikoresho bitandukanye by'ubuvuzi bifite ikoranabuhanga rihanitse, kwita ku baturage ndetse bashishikariza abantu kubagana nta kiguzi kirimo.

Inzu z'ubuvuzi zita ku buzima bw'abaturage, aho barwarira ndetse n'icyumba cy'isuzuma ku bitaro bya Ruhengereri ahagaragara umukozi wabyo.

Inzu z'ubuvuzi ahagaragara ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kurinda ndetse no kwita ku buzima hasuzumwa indwara zitandukanye ndetse hakorwa n'ubuvuzi bwimbitse.

Inzu zikorerwamo ubuvuzi ndetse no kwita ku buzima bw'abaturage, aho bagaragaza inzu y'ubushakashatsi basuzuma imiti itandukanye, ndetse hari n'abaganga barenze umwe.

Inzu z'ubuvuzi, aho abaturage bashakira serivisi zigiye zitandukanye, bagahabwa ubufasha n'ingeri zitandukanye kandi bakitabwaho mu buryo bwose.

Ikigo Huye Isanga Rehabilitation Center, gishinzwe kubungabunga ubuzima bwo mu mutwe, aho gifasha ababaswe n'ibiyobyabwenge kugaruka mu buzima busanzwe ndetse bakaba abantu b'ingirakamaro muri sosiyete.

Inzu z'ubuvuzi zita ku buzima bw'abaturage bagiye batandukanye, ahari ibitanda barwariraho, ndetse bagakorerwa na serivisi zo gusuzuma no gutanga imiti.

Inzu z'ubuvuzi ndetse zita ku buzima bw'abaturage, aha haba ibyuma bitandukanye mu cyumba cyabugenewe, mu gusuzuma ingingo, gusuzuma abantu barwaye, uburyo bwose, hifashishijwe ibyuma by'ikoranabuhanga byabuhariwe.

Inyubako z'ubuvuzi zitanga serivisi ku buzima, aho bakirira abaturage baje kwivuza ku kigo nderabuzima runaka ndetse abarwayi baka bategereje guhabwa serivisi.

Inzu z'ubuvuzi zigiye zitandukanye, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi nazo zitandukanye abaturage bitabira ndetse bakaza kwivuza, bityo ubuzima bwabo bukangabungwabungwa.

Inzu z'ubuvuzi, aho bagaragaza ibitaro bya kaminuza ya Butare, aho batanga serivisi z'ubuzima bigisha, ubushakashatsi ndetse n'ibindi.

Inyubako zishinzwe kubungabunga ubuzima bw'abantu, aho hagaragara ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu gusuzuma ndetse no kureba uko ubuzima bw'abantu buhagaze, muri rusange.

Inzu z'ubuvuzi aho hakorwa ibizamini bitandukanye byo gusuzuma ubuzima hifashishijwe ibikoresho byo muri laboratwari, harimo mikorosikope ndetse n'ibindi.

Inyubako z'ubuvuzi bwita ku buzima, aho bigaragara ko ari icyumba ndetse gifasha mu gusuzuma ibizaimi ndetse no kwita ku buzima bw'abaturage mu buryo bwose.

Inzu z'ubuvuzi zi zitandukanye aho batangira serivisi z'ubuzima ndetse bakaba bafite isuku ndetse hagaragara neza bityo bigafasha abaharuhukiye kumva baguye neza.

Inyubako z'ubuvuzi, aho hari umuntu waje gusaba serivisie ndetse z'ubuzima, bityo agafashwa, bikagenda neza.

Inyubako z'ubuzima, aho bagaragaza aho bakirira abantu ndetse bategerereza serivisi bagiye guhabwa z'ubuzima.

Aha hari inzu z'ubuvuzi aho abaturage bivuriza cyangwa ubuzima bwabo bugenda neza, aha ni ku kigo nderabuzima cya Matyazo aho abaturage bari gusaba serivisi z'ubuvuzi.

Inzu z'ubuvuzi zitazita ku buzima aho hari abafasha mu buvuzi bushinzwe kwita ku barwayi ndetse no kubaha serivisi nyazo.

Ibikorwa remezo by'ubuvuzi ndetse n'ubuzima, aho ari inyubako igaragaza ibitanda by'abarwayi ndetse n'aho basuzumira ubuzima, bigiye bitandukanye.

Serivisi z'ubuzima, aho bafatira ibizamini ndetse babika ibizamini bijyanye n'ubushakashatsi ndetse n'amaraboratwari agezweho y'ikoranabuhanga kugira ngo ubuzima bukomeze kugenda neza.

Inzu yahariwe ubuvuzi, aho berekena icyumba cyahariwe isuzuma ku mubiri w'umuntu, aho bareba ikibazo ufite mu mubiri ndetse bagatanga ibisubizo bijyanye n'ibyo babonye.

Inzu z'ubuvuzi zita ku buzima bw'abaturage, aho waje gusaba serivise z'ubuzima kandi berekana ibikorwa ndetse n'iminsi biberaho mu gutanga izo serivise.

Inzu z'ubuvuzi ndetse zita ku buzima bw'abaturage, aho abarwayi barwariye bitabwaho na muganga kandi bakorerwa isuku aho baryamye kugira ngo harindwe indwara zitandukanye z'umwanda kandi bagire ubuzima bwiza.

Serivisi z’ubuvuzi hakoreshejwe inzu zabugenewe zo kuvuriramo. Hari ibikoresho byo gukora siporo kunanura umubiri ndetse no kubaka umubiri.

Z’ubuvuzi zigaragara zita ku barwayi hari uburuhukiro bw'abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho nkenerwa mu kwita ku buzima bwabo.

Inyubako z'ubuvuzi, ahari abaturage baje gusaba serivisi, kuvuza abana ndetse hari n'abaganga bari kwita ku buzima bw'abarwayi, kugira bigende neza.

Inzu z'ubuvuzi zita ku buzima, aho abaturage baza gusaba serivisi zitandukanye zo kwivuza, aha ni ku kigo nderabuzima cya Kanyinya, gishinzwe izo serivisi zose.

Inzu z'ubuvuzi kandi zita ku buzima bw'abaturage, aho baza kwaka serivise zigiye zitandukanye. Bakaza kubaza uko bahagaze, bityo bigatuma bamenya uko ubuzima bwabo bumeze.

Inzu z'ubuvuzi zita ku buzima bw'abaturage muri rusange, aho hari icyumba cyabuhariwe n'umuntu ubishinzwe, areba uko umubiri w'umuntu uhagaze ndetse ubuvuzi bw'amagufwa, bityo agahabwa ibisubizo bijyanye n'uko umubiri we bigaragara.

Inzu z'ubuvuzi, aho hakorwa ubukangurambaga ku bajyanama b'ubuzima, ku bijyanye n'ubuzima bw'abagore batwite ndetse n'abana babo kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

AHF Rwanda ikigo gishinzwe kunganira ubuvuzi mu gihugu ndetse no gutanga serivisi z'ubuzima ku banyarwanda ndetse n'abaturarwanda bose.

Inzu z'ubuvuzi aho inyubako ya caraes ivurirwamo abafite ibibazo byo mu mutwe ndetse n'indwara zitandukanye zerekeye umutwe, aho bavurirwa bakamera neza.

Serivisi z'ubuvuzi aho hatangwa ubufasha mu buryo bwose abarwayi bakabona ubuzima bwiza ndetse bakitabwaho ubuzima bwabo bugasigasirwa, haba ibikorwa remezo bitandukanye ibitanda byiza bituma bamera neza inyubako zifite isuku ndetse na serivisi z'ubuganga zinyuranye nziza.

Inzu z'ubuvuzi ndetse no kubungabunga ubuzima, aho abarwayi bavurirwa ndetse bakitabwaho n'ababishinzwe ndetse bafite uburenganzira mu buryo bwo gusigasira ubuzima.

Inzu y'ubuvuzi idasanzwe itanga serivisi zo kuvura aho ari mu cyumba cyabuhariwe cyo gufata ibizami, umurwayi ahabwa serivisi ndetse akamenya uko ubuzima bwe buhagaze.

Inzu z'ubuvuzi zita ku buzima, aho icyumba kirimo ibikoresho byabugenewe byo gusuzuma ndetse no kwita ku buzima bwa muntu, byifashishwa.

Inyubako ya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami ry'ubuzima, aho batangira amasomo yo kwita ku mibiri y'abantu ndetse no kubagira inama z'ubuzima, bityo bakazavamo abantu bakomeye mu gihugu b'abaganga n'abadogiteri.

Inyubako z'ubuvuzi, aho bita ku barwayi babaha imiti ndetse banabavura, mu buryo butandukanye, bita ku buzima bwabo muri rusange.

Ikigo cy'ubuvuzi, gishinzwe guteza imbere ubushakashatsi, aho hakorwa ibikorwa bitandukanye, bijyanye no kumenya uko ubuzima bw'abantu buhagaze.

Inzu z'ubuvuzi, ahari amahugurwa ndetse n'ubukangurambaga, ku kurwanya malariya, ndetse no kuyica burundu, aho impuguke zihugurwa ndetse zigahabwa n'inama ku kurwanya malariya.

Ikigo cy'ubushakashatsi gishinzwe kwita ku buzima bw'abantu. Ndetse no kubagira inama mu buryo barindamo amagara yabo mazima kandi bakabaho neza, bagirwa inama ndetse babwirwa n'ibikorwa byiza byatuma bamererwa neza.

Inzu z'ubuvuzi zita ku baturage ndetse n'uburyo bwo kubungabunga ubuzima, hari serivisi batanga ndetse hagaragara ikirangantego cy'igihugu kuko ari ibitaro bya leta.

Inzu y'ubuvuzi, aho bagaragaza aho bavurira hakoreshejwe ibikoresho bigorora umubiri ndetse na siporo kugira ngo babungabunge ubuzima.

Inzu z'ubuvuzi, aho bita ku barwayi babaha imiti ndetse bita ku buzima bwabo muri rusange bigatuma ubuzima bwabo bwiyongera ndetse bukanaramba muri rusange.

Serivisi z’ubuvuzi aho mu nzu ivurirwamo hakoreshwa ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga mu gusuzuma ubumenyi ndetse n'uko umubiri uhagaze.

Inzu z'ubuvuzi aho imwe muri zo ari ikigo nderabuzima cya Gisenyi mu karere ka Gisenyi, umurenge wa Gisenyi, aho berekana aho abarwayi bisuzumira ndetse no kwisuzumira indwara zitandukanye kandi baje gusaba serivisi z'ubuvuzi.

Inzu z'ubuvuzi zigaragaza icyumba cyihariye cyo gusuzuma indwara, aho bita ku mubiri wose bakareba ikibazo ufite, kandi haba hari ibyuma byabuhariwe bishinzwe gusuzuma kw’ikoranabuhanga rihanitse.

Siporo nk'umuti uvura umubiri mu buryo kamere, ukarinda indwara zitandukanye bigatuma umuntu atekereza neza ndetse akagira ubuzima bwiza.

Siporo yo guterura ibikoresho byubaka umubiri ndetse bigatuma umubiri uhindura isura ukabyimba, aho abantu bajya muri jimu bakubaka ubuzima bwabo baterura.

Ubuvuzi bwerekeranye na siporo ndetse no kugorora ingingo, aho umuntu ategekwa kunywa amazi meza, akarya imbuto ndetse akagira n'imyitozo ngororamubiri, bityo bikamufasha mu kubungabunga no kurinda ubuzima bwe neza.

Ubuvuzi bwa siporo ndetse n'ubukangurambaga hifashishijwe ibikoresho bitandukanye bireba, bikagenzura mikorobe ziri mu mubiri kugirango ngo hirinde indwara zitandukanye z'umwanda.

Ibikoresho bya siporo mu gusuzuma uk’umubiri uhagaze mu gukora imyitozo ngororamubiri

Siporo ndetse n'ubundi buryo bwo kugira ubuzima bwiza, aho ifasha umubiri kugororoka, ingingo zikagororoka ndetse ukagira ubuzima bwiza buzira umuze, bityo akabaho neza.

Siporo ndetse n'imiti, aho hari agakarito karimo ibikoresho byifashishwa mu kuvura, umuntu wagize imvune cyangwa se wahuye n'ikibazo cyo gukomereka n'ubutabazi bw'ibanze.

Gukora siporo ndetse no kunywa amazi meza, ni ingendo mu buzima, kuko bituma umubiri umera neza kandi n'impyiko zigakora neza ndetse zigakora akazi kazo neza, bityo bikaturinda indwara zigiye zitandukanye zandurira mu kudakora siporo ndetse no kutita ku buzima bwacu.

Siporo ni ubuzima kuko ituma imikaya igororoka, uretse no gukora siporo ndetse no kunywa amazi meza buri munsi nabyo ni byiza kuko bituma umubiri ukora neza, ndetse bigatuma umuntu amera neza.

Ubuvuzi bwa siporo nk'umuti ufasha kurinda indwara ndetse bigatuma umuntu amererwa neza bityo ubwonko bugatekereza neza ndetse n'umuntu agakora neza.

Siporo ni ubuzima kuko ituma ingingo zigororoka, igatuma ubuzima bugenda neza, ndetse hakabaho kwiyuburura k'umubiri, aho umuntu agenda ahinduka gake gake.

Siporo ndetse nk'umuti kandi n'ubuvuzi bugiye butandukanye bwo kugorora ingingo, aho butanga serivisi zijyanye no kugorora ndetse no kwita ku buzima bw'ibice by'umubiri, kugira ngo hatabaho guhinamirana.

Ubuvuzi, serivisi zabwo, aho abaganga bafata amahugurwa mu buryo bwa onorayine, ikoranabuhanga n’uburyo bwo kuvura hakoreshejwe siporo ndetse n'ubundi buryo.

Siporo ni umuti urinda indwara zigiye zitandukanye, aho iyo unyweye n'amazi bigenda neza cyane impyiko zigakora akazi kazo ndetse ukagira ubuzima bwiza.

Siporo nk'umuti aho hakorwa imyitozo ngorora mubiri kugira ngo umuntu yirinde indwara zitandukanye ziterwa no kudakoresha umubiri neza.

Gukora siporo ndetse no kwita ku mubiri, gukora imyitozo ngororamubiri ndetse tunywe amazi meza asukuye mu kurinda ubuzima bwacu.

Ubuvuzi bwa siporo ndetse n'ingingo, aho uwavunitse ahabwa ubuvuzi bwihariye agakandwa ndetse ingingo zigasubira mu mwanya zigakora neza.

Ubuvuzi bwerekeranye n'ingororangingo ndetse no gukoresha umubiri neza, aho tugirwa inama yo gukora imyitozo ngororamubiri, kunywa amazi meza ndetse no kugira indyo yuzuye kugira ngo tubungabunge ubuzima bwacu.

Siporo nk'umuti urinda indwara zigiye zitandukanye wo wifashishwa ibikoresho bigiye bitandukanye mu kugorora umubiri ndetse no gukora siporo no kugabanya ibiro.

Ubuvuzi bujyanye na siporo ndetse no kugorora ingingo, aho umuntu afashwa ndetse akunganirwa mu kugorora umubiri we neza, no kuvura imvune ndetse n'ibindi bitandukanye.

Serivisi z'ubuvuzi ndetse no gufata imiti kamere, gakondo hifashishwa indyo yuzuye irimo amagi, imboga, ndetse n'imbuto, ndetse n'inyama muri rusange.

Siporro nk'umuti cyangwa se ubuvuzi bwa siporo, aho abanyeshuri bakina umukino wa basiketi, kwitoza ndetse no kugorora imibiri yabo, bityo bikarinda indwara zigiye zitandukanye zitandura kandi bakabaho ubuzima bwiza.

Siporo n'umuti ndetse kubungabunga ubuzima irinda indwara zitandukanye zitandura ndetse no kubungabunga umubiri n'ubuzima bugafatwa neza, bityo bikagenda neza.

Aba siporo nk'umuti wo kurwanya indwara zitandukanye aho bapfuka ndetse bita ku ngingo z'umubiri kugira ngo umuntu amererwe neza.

Ubuvuzi bwerekeye siporo no gukora imyitozo ngororamubiri, no kugira disipurine mu buzima, umuntu akarya neza imbuto imboga ndetse n'ibindi bitandukanye bituma umuntu agira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga bwo gukora siporo ndetse nk'umuti wo kwirinda ibiyobyabwenge ndetse bikaba bituma umubiri umererwa neza, ukirinda indwara zitandukanye.

Ubuvuzi bwerekeranye na siporo ndetse no kugorora ingingo aho tugirwa inama zo gukora imyitozo ngoramubiri tukanywa amazi meza asukuye. Bityo imibiri yacu ikabaho imeze neza.

Siporo ni ubuzima ndetse irinda indwara zitandukanye, bigakorwa n'ingeri zose kuko bifasha umubiri kwiyitaho ndetse no kurwanya ibiza.

Siporo n’umuti ugamije kugorora ingingo, gukora massage ndetse no kwita ku buzima mu buryo bwo gusuzuma umubiri uko uhagaze muri rusange.

Siporo nk'umuti uvura indwara zigiye zitandukanye, bituma umubiri umererwa neza ndetse no kunywa amazi meza bityo bigatuma umuntu abaho afite ubuzima buzira umuze.

Ubuvuzi gakondo bwita ku gutangwa kw'imiti, ivuye ku byatsi ndetse n'ibimera, aho bakora imiti igiye itandukanye kugira ngo bite ku buzima bw'abaturage kandi babeho neza.

Imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi bwa gakondo aho ibiti byifashishwa mu gukora imiti ivura abaturage ndetse n'ubuzima bwabo bukagenda neza, hifashishijwe ibimera gakondo.

Imiti gakondo ndetse n'abavuzi aho bakora hakorwa imiti ivuye mu bimera ikifashishwa mu kuvura abantu ndetse ikanahabwa abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bamererwe neza.

Uburyo bwo gufata imiti gakondo ndetse bakoresheje ibyatsi karemano kugira ngo bavure indwara zitandukanye ndetse n'ubuzima bukomeza kugenda neza muri rusange.

Ubuvuzi bwa gakondo bwifashisha ibimera, mu gutanga imiti ku baturage no kubitaho muri rusange, bwifashisha ibiti cyangwa se ibimera bigiye bitandukanye mu kuvura.

Ubuvuzi gakondo bwifashishwa mu gutanga imiti ivuye ku bimera ndetse n'ibyatsi mu kubungabunga ubuzima bw'abantu ndetse no kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Imiti gakondo yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye harimo diyabete, harimo umwijima, ndetse n'ibindi bitandukanye. Ariko hakoreshejwe ubuvuzi bw'abakurambere.

Imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi bw'ibimera aho uguze adohorwa mirongo Itatu kw’ijana kandi uyu muti ukawuvura ndetse bigatuma haba ibisubizo mu muryango ucika intege ndetse n'izindi ndwara.

Ubuvuzi gakondo mu kuvura abantu, aho hifashishwa imiti n'ibimera mu kwita ku buzima ndetse no kubungabunga imibereho yabo muri rusange.

Ubuvuzi bwa gakondo bugamije kuvura hifashishijwe ibimera n'imiti n'ibyatsi, harimo gukoresha ubuki ndetse n'ubundi buryo.

Aha ni ubuvuzi gakondo, bukoresha imiti y'ibimera ndetse n'uburyo bwa Kinyarwanda aho hari n’inama mpuzamahanga ya siyanse yita ku kimera cya ''aloe'' cyangwa se igikakarubamba.

Ubuvuzi gakondo bwita ku bimera nuko bikoreshwa, aho bakora amavuta ava mu bimera, mu kubungabunga uruhu ndetse n'imibiri yacu.

Ubuvuzi gakondo bwita ku gukoresha imiti n'ibimera ndetse no gukora ibicuruzwa bigiye bitandukanye biturutse mu byatsi, harimo umuti woza mu mutwe ukoze mu gikakarubamba.

Ubuvuzi gakondo bwita ku mikoresherezwe y'ibimera ndetse n'imiti rusange, aho hibandwa ku gukoresha ubuki n'ibindi byatsi bivura, bikaba bifasha mu kugenzura umubiri neza.

Ubuvuzi gakondo bukorwa hifashishijwe ibimera bitunganywa mu buryo bwiza, maze bigakorwamo imiti ivura abantu.

Ubuvuzi gakondo, kwita ku buzima, aho bakora ubukangurambaga mu kurya imbuto, imboga kugira ngo umuntu agire ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Imiti y'ubuvuzi gakondo hifashishijwe ibimera ndetse n'uburyo karemano mu gukora imiti ndetse no kuvura abantu kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza.

Ubuvuzi gakondo ndetse rikoreshwa rya remera rusange mu kuvura ndetse no gutanga imiti aho wifashishwa ibimera bitunganyijwe kandi byahezwe n'uburyo bwiza bityo bigafasha kuvura.

Itunganywa ndetse n'ikorwa ry'imiti gakondo, mu kuvura abaturage, aho bakoresha ibimera bigiye bitandukanye, nk'inanasi, imineke ndetse n'ikawa, mu kubungabunga ubuzima mu buryo bugiye butandukanye.

Ubuvuzi bwa gakondo hifashishijwe imiti ituruka ku bimera, mu kuvura no kwita ku buzima mu kugira ngo amagara asigasirwe neza.

Imbuto, imboga, ibyo na byo byifashishwa mu kurinda ubuzima bw'umuntu, aho ari imiti ya gakondo, byifashishwa kugira ngo umubiri umere neza kandi ugire ubudahangarwa buhagije.

Ubuvuzi bwifashisha imiti gakondo aho ushobora gukoresha umuti w'amenyo ariko ukoze mu gikakarubamba, bityo bikakurinda indwara zitandukanye zo mu kanwa.

Ubuvuzi ndetse no gutangwa kw'imiti gakondo aho gukoresha ibimerara bigiye bitandukanye mu kuvura indwara nazo zitandukanye bityo ubuzima bw'abantu bukitabwaho neza.

Ubuvuzi gakondo, hifashishwa imiti y'ibimera ndetse n'ibyatsi kugira ngo ubuzima bubungabungwe, hifashishwa nk'ikibonobono, aho bakora imiti itandukanye.

Ubuvuzi gakondo bwifashisha imiti itandukanye, mu kuvura abantu, harimo amafu ndetse n'izindi mu buryo butandukanye.

Ubuvuzi gakondo bwita ku buzima hagamijwe gutanga ibyo kurya biturutse ku bimera kugira ngo ubuzima bugende neza.

Ubuvuzi gakondo ndetse butanga imiti y'ibimera mu kuvura indwara zitandukanye, aho batwereka ibyatsi mu ngeri zose byifashishwa mu gukora imiti, kandi ivura indwara, bityo ubuzima bukagenda neza.

Ubuvuzi bw'imiti gakondo hifashishijwe ibimera, ahari abaturage bashishikariza gukoresha iyi miti, mu buryo bwo kurinda no kubungabunga ubuzima.

Ubuvuzi gakondo bwita ku gukoresha ibimera mu gukora imiti ndetse n'ubuvuzi, hasuzumwa indwara zitandukanye ndetse hakavurwa indwara zitandukanye, hakoreshejwe ibyatsi karemano.

Ubuvuzi gakondo bwita gukoresha imiti ndetse n'ibyatsi karemano, aho ibi bitanga umusanzu mu kuvura ndetse no kunganira ubuzima ku baturage no kugira ngo babeho neza mu buryo bwo kwimakaza gukoreshwa kw'imiti gakondo.

Ubuvuzi gakondo ndetse n'imiti ya gakondo, aho bakoresha ibyatsi bigiye bitandukanye mu kuvura ndetse no kwita ku buzima bw'abaturage muri rusange.

Imiti ikorwa mu bimera cyangwa se iya gakondo, mu kuvura no kwita ku baturage, hakoreshejwe ibimera bigiye bitandukanye, harimo igikakarubamba mu gutanga imiti ku ngero zigiye zitandukanye, abana ,abantu bakuru ndetse n'abantu bakuze muri rusange.

Ubuvuzi gakondo butanga imiti iturutse ku bimera, mu kwirinda indwara, zigeze zitandukanye, ndetse no gutanga serivisi z'ubuvuzi ku ba zikeneye, hakoreshwa imiti ya gakondo ituruka ku bimera by'ibyatsi.

Imiti gakondo ifashishwa mu kuvura hagamijwe kwita ku buzima bw'abaturage, hifashishijwe ibimera bitandukanye.

Ubuvuzi gakondo hakoreshejwe ibimera ndetse n'ibyatsi mu kuvura abantu ndetse no kubakorera ubugororangingo, aho baba bafite ikibazo cy'imvune ndetse n'ububabare maze bikabavura.

Ubuvuzi bw'imiti gakondo ndetse n'itangwa ryayo mu kuvura abaturage aho bakoresha isombe cyangwa se imyumbati mu gukora imiti igiye itandukanye, ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ubuvuzi gakondo mu kwita ku buzima ndetse n’umubiri muri rusange, aho bagaragaza amavuta yo kwisiga akozwe mu gikakarubamba ndetse n'icyayi mu kurinda ubuzima.

Ubuvuzi gakondo bugamije kwita ku buzima, aho bifashisha amavuta ya Aloe Vera mu buryo bwose, ariko agatuma umubiri umererwa neza kuko birinda indwara zitandukanye.

Imiti gakondo hifashishijwe ibimera, kubungabunga ubuzima, kwimakaza, ndetse gushishikariza gukoresha icyayi kivura, ndetse gikomoka ku bimera.

Ubuvuzi gakondo bukoresha ibimera bitandukanye harimo n'ibikakarubamba mu gukora imiti yo mu kanwa ivura indwara zigiye zitandukanye kugira ngo umuntu agire impumuro nziza ndetse akeshe n'amenyo.

Ubuvuzi gakondo, aho bifashisha ibimera kugira ngo bavure, bagaragaza umuti witwa nifejine mu kurinda indwara ndetse n'ubuzima.

Ubuvuzi gakondo bwita ku bimera ndetse bugakoresha ibyatsi mu kuvura, aho abashakashatsi bashaka imiti ivuye mu bimera kugira ngo bavure.

Imiti gakondo ndetse n'ubuvuzi mu karemano hifashishijwe imiti y'ibihingwa ndetse n'ibimera mu kubungabunga ubuzima.

Ubuvuzi gakondo bwita ku buzima hifashishijwe ibimera, hakorwamo amavuta yo kwisiga nk'igikakarubamba ndetse n'imiti ivura.

Ubuvuzi gakondo ndetse butanga imiti y'ibimera, aho hakorwa imiti igiye itandukanye ikozwe mu bimera bigiye bitandukanye, muri ibyo bimera harimo ibikakarubamba, harimo ubuki, harimo n'ibindi bigiye bitandukanye kugira ngo ubuzima bw'abaturage bukomeze kugenda neza.

Serivisi z'ubuzima zita ku buvuzi gakondo hakoreshejwe ibimera harimo imiti itandukanye uwitwa forever aloe berry nectar ndetse n'ibindi.

Ubuvuzi bwita ku gutanga imiti gakondo mu kuvura indwara zitandukanye hifashishijwe ibimera bitandukanye harimo igikakamba mugutunganya umuti wita ku menyo ndetse n'ibindi bimera bigira bitandukanye.

Ubuvuzi gakondo bwita ku bimera ndetse n'ibindi bikoresho bya gakondo harimo ubuki, indabyo, imbuto n'imboga kugira ngo himakazwe ubuvuzi.

Ubuvuzi gakondo bwita ku kugukoresha ibimera hakorwarwa imiti, hirindwa indwara zigiye zitandukanye mu buzima bw'abantu.

Ubuvuzi bwa gakondo hakoreshejwe ibimera ndetse n'ibyatsi kugirango yirinde indwara zitandukanye, aho badushishikariza gukoresha umuti witwa Foreva Alowe Tamu mu buryo bwo kurinda abaturage.